Abantu batandukanye bicaye ndetse hakaba hari n'umwe uhagaze imbere yabo, bigaragara ko bari mu nama aho bari kuganira kubijyanye, n'iterambere ryose ndetse na serivise zose zigenerwa abaturage n'uburyo bashyiramo ingufu kugira ngo umusaruro w'iterambere ugaragare.

Abantu batandukanye bigaragara yuko imbere yaho hari indangururamajwi ndetse bakaba bafite za mudasobwa imbere yabo, biba bigaragara yuko bari mu nama nyunguranabitekerezo, igendanye no gusobanurirwa serivise bagenera abaturage ndetse n'ingamba zashyirwaho kugirango barusheho kubahiriza serivise zose zigenewe abaturage.

Abantu bicaye mu ruziga bigaragara ko bari mu nama nyunguranabitekerezo ku bigendanye na serivise zitangwa mu baturage ndetse no ku bigendanye n'iterambere muri rusange ry'igihugu aho bagenda bagaragaza imihigo ndetse n'ingamba zafasha abantu kugira ngo biteze imbere.

Abantu batandukanye bicaye ndetse bakaba bafite za mudasobwa, bikaba bigaragara yuko baje mu nama nyunguranabitekerezo, aho baje gusobarirwa serivisi zose zigenewe umuturage ndetse n'ingamba zashyizweho kugira ngo himakazwe iterambere ry'igihugu n'iry'umuturage.

Abagore batandukanye bicaye bikaba bigaragara yuko baje muri gahunda za leta zijyanye na serivise zigenerwa umuturage, ndetse by'umwihariko izijyanye no kugaragaza iterambere ry'umugore muri rusange.

Abantu batandukanye, bicaye ndetse abenshi bakaba biganjemo yuko bafite za mudasobwa, bikaba bigaragara yuko ari inama bitabiriye kugira ngo bige ku ngamba zijyanye n'iterambere ry'igihugu muri rusange ndetse n'ibyateza umuturage imbere.

Abantu batandukanye ndetse twavuga yuko baje gushaka serivisi za leta muri twavuga izijyanye no kwandikisha ubutaka, aho bigaragara yuko bari gusobanurirwa uko gahunda za leta zose zikurikizwa ndetse n'uburyo iterambere ry'igihugu rishyizwemo imbaraga.

Abantu batandukanye bicaye mu ruziga bikaba bigaragara yuko imbere yabo hari ingangururamajwi ndetse bakaba bafite za mudasobwa aho bigaragara yuko bari ku nama nyunguranabitekerezo ijyanye na serivise bagenera abaturage ndetse n'ibikorwa byose by'iterambere muri rusange by'igihugu.

Abantu batandukanye bicaye ndetse hakaba hagaragara umwe uri hagati, akaba afashe indangururamajwi, bikaba bigaragara yuko akora mu rwego rwa leta aho arimo gusobanurira abaturage, ibikorwa bitandukanye bigenewe abaturage, ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Abantu batandukanye bicaye ndetse bikaba bigaragara yuko imbere hari za mudasobwa, ndetse bikaba bigaragara yuko aha bari mu nama aho bari kwiga ku iterambere ritandukanye, ndetse na serivisi zitandukanye zigenerwa umuturage, n'uburyo bashyiraho ingamba zifasha iterambere ry'umuturage.

Abantu batandunkanye bakaba bicaye mu ntebe ndetse bakaba abenshi bafite mudasobwa imbere yabo, bikaba bigaragara yuko bari mu nama bari kungurana ibitekerezo kugira ngo baganire ku byatuma leta itera imbere cyangwa se ibyatuma umuturage atera imbere.

Abantu batandukanye bicaye ndetse hakaba hagaragara umwe ufashe indangururamajwi, bikaba bigaragara ko ari gusobanura ndetse no gutanga ibitekerezo ku bijyanye nk'uburyo iterambere ry'umuturage ryakubahirizwa, ndetse n'ibijyanye no kuba yafashwa serivisi zitandukanye.

Abantu batandukanye bicaye ahantu ndetse bikaba bigaragara yuko bari mu nama, aho bari kungurana ibitekerezo bigendanye na serivise zose zigenerwa umuturage, ndetse n'ingamba z'iterambere zose z'igihugu.

Abantu batandukanye bicaye bigaragara yuko bari mu nama nyunguranabitekerezo, aho baganira ku iterambere ry'umuturage ndetse bakaba bashyiraho n'ingamba zigamije kugira ngo igihugu gitere imbere ndetse n'umuturage atere imbere.

Abantu batatu bicaye ndetse umwe akaba arimo hagati afashe indangururamajwi bikaba bigaragara yuko bari bari mu nama nyungurana bitekerezo, aho bari bari kuvuga ku ngamba zitandukanye zishyirwamo kugira ngo babashe kuba babwira umuturage mu kugira uruhare mu kwiteza imbere.

Abantu batandukanye bahagaze ndetse bamwe bakaba barimo gukoma amashyi, bikaba bigaragara yuko bari baje guhurira hamwe ngo baganire ku bijyanye na serivise zijyanye n'iterambere ry'umuturage ndetse n'ingamba zashyirwaho kugira ngo iterambere ryihutishwe.

Abantu batatu bicaye ndetse hakaba harimo abamama babiri, hakabamo n'umugabo umwe, bikaba bigaragara yuko bari mu inama nyungurana bitekerezo aho bari kuganira kuri serivise zitandukanye zihabwa abaturage, ndetse n'uburyo bashyiramo imbaraga kugira ngo iterambere muri rusange ry'igihugu rizamuke.

Abatandukanye ndetse bicaye bikaba bigaragara yuko bari baje kugira ngo basobanurirwe serivisi zigenewe umuturage ndetse n'ingamba zose leta yashyizeho ziharanira kugira ngo iterambere ry'umuturage rirusheho kwihuta.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe ndetse bikaba bigaragara yuko bari mu nama bungurana ibitekerezo, baganira kuri serivisi zose bashobora kugenera abaturage ndetse n'uburyo ingamba z'iterambere zabasha kubahirizwa, hanyuma umuvuduko w'iterambere ukagaragara.

Abantu bicaye bigaragara y'uko ari abayobozi bo mu nzego za Leta bakaba nari kuganira kubijyanye na Serivise umuturage agomba ndetse bikaba bijyana n'uburyo bakoresha kugirango iterambere ribashe kwihuta.

Abantu batandunkanye harimo abicaye ndetse hakaba hagaragara n'undi umwe uhagaze akaba afite indangururamajwi ndetse imbere yabo hakaba hari icyapa kiriho izina ry'ikigo bakorera, bikaba bigaragara yuko bari baje kuganira ibijyanye n'iterambere ry'ikigo cyabo.

Abantu bicaye hamwe bigaragara yuko bari munama nyungurana bitekerezo igendanye na serivise yo kwita kwiterambere ry'igihugu ndetse nabaturage muri rusange.

Abantu batandukanye ndetse imbere haragaragaraho icyapa kiriho amashyaka atandukanye, bigaragara yuko ari inzego z'amashyaka zahuye hamwe kugira ngo ziganire ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'aho igihugu kigana.

Abantu batandukanye harimo abiganjemo bambaye imyenda y'ubururu ndetse bikaba bigaragara yuko hari abahagaze umwe ari guhereza undi indangururamajwi, bikaba bigaragara yuko bari bari muri gahunda zo kuganira no kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'iterambere ry'umuturage.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye hamwe, bambaye imyenda y'ubururu. Bahanze amaso ahantu hamwe, nk'aho hari umuntu uri kubahugura ku bintu runaka.

Abantu batandukanye bicaye bikaba bigaragara y'uko bari mu nama, aho bari kuganira kuri serivise zitandukanye leta igenera abaturage bayo kugira ngo iterambere ry'igihugu muri rusange rirusheho kuzamuka k'umuvuduko wo hejuru.

Abantu babiri ndetse bicaye, umwe akaba afashe indangururamajwi bikaba bigaragara yuko ari umuntu urimo urabwira abantu ibijyanye na serivisi leta itanga ndetse nibijyanye naho iterambere ry'igihugu rigenda rigana.

Abantu bicaye imbere yabo hateretse mudasobwa, bikaba bigaragara yuko bari mu nama biga ku bijyanye n'iterambere rya leta.

Abantu batandukanye bicaye ndetse bakaba bafite za mudasobwa bikaba bigaragara y'uko baje mu nama nyungurana bitecyerezo, ndetse ko baje gusobanurirwa serivise zose zijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'uburyo bashyiramo imbaraga kugira ngo iterambere ry'igihugu.

Abantu batandukanye bicaye ndetse imbere yabo hakaba hateretse za mudasobwa haragaragara kandi n'icyapa cyanditseho izina ry'ikigo kitwa RURA aha ngaha bikaba bigaragara yuko bari kwiga kubijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ubwikorezi muri rusange bwa bantu ndetse n'ibintu.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bicaye bahanze amaso ahantu hamwe nk'abari mu nama. Inyuma y'aho bicaye, hari inyubako y'amatafari ahiye, ikiri kubakwa.

Abantu batandukanye, ndetse babiri bakaba bicaye, umwe akaba ahagaze, afite indangururamajwi, hakaba hagaragara icyapa cyanditseho izina ara ji bi, iki akaba ari ikigo gishinzwe imiyoborere myiza mu gihugu muri rusange.

Abantu batandukanye bicaye ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, ndetse hakaba hari indangururamajwi, bikaba bigaragara yuko bari mu ngoro ishingamategeko, aho bicaye bari kwiga kuri serivise zitandukanye bagenera umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Abantu benshi batandukanye bicaye bikaba bigaragara hari n'undi ihagaze uri kubasobanura Serivise zose Leta ugenda abaturage bayo ndetse n'ibindi bikorwa byose Leta igenera umuturage kugirango abashe kuba bava kurwego rumwe bagere kurundi.

Umuntu wicaye ndetse imbere yiwe hakaba hari indangururamajwi, bikaba bigaragara yuko arimo gutanga ibiganiro ndetse no gutanga inama kubijyanye nuburyo serivise zigenewe umuturage zabasha kwihutishwa ndetse na iterambera ry'igihugu rikihuta.

Icyapa kigaragaraho abantu batwaye amagare ndetse hakaba hariho n'ijambo viziti Rwanda, bikaba bigaragaza serivise zitandukanye leta ibasha kugeza kubaturage bayo, kandi izi zose zikaba zigamije iterambere ry'igihugu muri rusange n'umuturage muri rusange.

Akazu gatoya kariho ibyapa bitandukanye harimo icya MTN ndetse na Airtel ibi akaba ari ibigo bishinzwe itumanaho ndetse bikaba bitugezaho na serivisi zitandukanye za telefone hagaragaraho ndetse n'ikigo cya banki aho ushaka kugenda ugafata inguzanyo hanyuma ukiteza imbere .

Urupapuro ruriho ikigo kitwa rura rumenyekanisha amakuru kuri serivise zitangwa na leta. Ndetse hagaragara yuko harimo kuburira abantu kubijyanye n'uburyo bakirinda abatekamutwe.

Umunara muremure ushinze ahantu uyu ukaba udufasha mu bijyanye n'itumanaho ryaba irya terefone, cyangwa se televiziyo cyangwa se mudasobwa. Ibi bikaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yashyizemo ingufu kugira ngo abaturage barusheho kuba bagira iterambere rirambye.

Abantu batandukanye barimo kugenda mu muhanda ndetse haragaragara n'amazu atandukanye, haragaragara kandi n'aho twita ko abantu bakwicara bakaruhukira ndetse bakaganira, ibi byose bikaba ari ibikorwaremezo Leta yatugeneye nk'abaturage.

Icyapa kigaragaza yuko hariho izina ry'ikigo gishinzwe imisoso ndetse n'amahoro iri rikaba ari itangazo ritangwa niki kigo kugirango kibwire ibigo bitandukanye by'imari ndetse n'abashoramari yuko hari itariki ntarengwa yo kuba bamaze gusora.

Abantu batandukanye bicaye ndetse imbere yabo hakaba hari za mudasobwa, bikaba bigaragara yuko ari abantu bashyizweho kugira ngo babashe gutanga serivise zose z'iterambere ry'igihugu zigenewe abaturage, aho buri muturage wese ukeneye serivise abasha kubagana bakabasha kuyimuha.

Umuntu ufashe telefone bikaba bigaragara yuko arimo kwitegereza serivise ashobora gukorera kuri telefone, zirimo guhamagara, ndetse no kwitaba abamuhamagaye, zirimo no kwishyura ibicuruzwa byose akoresheje telefone.

Iminara miremire, iyi ngiyi ikaba idufasha mu bijyanye no kugira ngo itumanaho ryacu rirusheho kugenda neza rya telefone ndetse ikaba inafasha no kugira ngo televiziyo ikore neza amashusho agaragare neza ndetse na radiyo ibashe kumvikana neza, amajwi yayo asohoke neza.

Icyapa kiriho ijambo viziti Rwanda bikaba bigaragaza yuko ari gahumda za leta zigiye kuba ndetse bikaba bigaragara yuko izo gahunda ari gahunda zishingiye ku iterambere ry'umuturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Amapoto y'amashanyarazi ndetse n'inyubako nziza ndende z'ubucuruzi, ndetse n'imihanda myiza. Ibi byose akaba ari ibyo leta yagennye ibigenera abaturage.

Icyapa kiriho izina ry'ikigo gishinzwe abakozi ba leta, ndetse iyi ikaba ari minisiteri ifasha leta ngo imenye ibigo bikorera mu Rwanda bya leta uko bikangana, ndetse imenye n'imyanya ikeneweho abakozi uko ingana, ngo ibe yapiganirwa.

Icyapa kigaragaraho ifoto y'umuntu ndetse hakaba hagaragaraho n'ijambo Visit Rwanda, aha ngaha bakaba bagaragaza yuko ari ibijyanye n'amasezerano Igihugu cy'u Rwanda cyari cyaragiranye n'imishinga itandukanye, yaba ndetse n'amakipe atandukanye arimo za Arsenal Bayerm Munich ndetse na Paris Saint Germain.

Icyapa kiriho izina ry'ikigo Rwanda reveni otoriti, ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro y'igihugu, iki kikaba gikoreshwa iyo bakeneye kumenyekanisha kugira ngo babashe kubwira abantu yuko itariki ntarengwa yo kwishyura imisoro yageze.

Urupapuro rugaragaraho izina ry'ikigo RDB kikaba ari icyigo gishinzwe iterambere ry'igihugu muri rusange , aho abantu bakeneye gukora ishoramari cyangwa se ibigo runaka bikeneye gukora ishoramari bibasha kujya kwiyandikisha hanyuma bikajya gukora ishoramari ryibyo ryiyemeje gukora.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hagaragara n'ibyapa bitandukanye hariho icyapa cya noteri, udufasha muri serivise zitandukanye zikenerwa muri leta ndetse n'icyapa cyanditseho irembo aho ari urubuga rwiza leta yashyizeho rutanga serivise zitandukanye ku baturage.

Umuntu uhagaze imbere yakazu gatoya ndetse kanitseho icyapa ecobanki, ikingiki akaba ari ikigo kimari gishizwe gutanga inguzanyo kubaturange bayicyeneye kurango nabo barusheho kuba bakwiteza imbere bave mubucyene.

Icyapa kiriho telefone, ahangaha akaba ariho ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro kirimo kugaragaza uburyo umuntu ashobora kuba ya dekarara imisoro anyuze mw'ikoranabuhanga akoresheje telefone, hanyuma akabasha kuba yakishyura akoresheje telefone.

Umunara muremure uri mu ibara ry'umweru n'umutuku ndetse ukaba ushinze ahantu, bihita bigaragara yuko ari ahantu hatanga amashanyarazi, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo ibafashe mu kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Umunara muremure ndetse bikaba bigaragara ko hari n'insinga z'amashanyarazi. Aha ngaha, iki kikaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo babashe kwikura mu bukene, ndetse n'iterambere ry'igihugu n'iry'umuturage ribashe kwihuta.

Abantu batandukanye bicaye ndetse bakaba bafite mudasobwa imbere yabo, bikaba bigaragara yuko ari abanyeshuri bari mu ishuri bari kwiga, ndetse bikaba bigaragara yuko bahawe mudasobwa nka kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abanyeshuri ngo bafate.

Icyapa ikigaragaraho izina ry'ikigo gishinzwe ubuzima, aha ngaha hakaba badufasha kugirango batahure indwara zitandukanye ndetse n'ibyorezo kugirango barinde abaturage kugirango batagwa muri ibyo byorezo bikaba byabahitana.

Umuntu wicaye ndetse imbereye yiwe akaba afite mudasobwa, hakaba hagaragara na izina rya ikigo cyitwa irembo, urunguru akaba ari urubuga rwashyiriweho abantu kugirango babone serivise zose zitangirwa muri leta, babashe kuba babasha kuzibona.

Urupapuro ruriho izina ry'ikigo Rwanda reveni otoriti, iki akaba ari ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu, aho urupapuro barukoresha bashaka kumenyekanisha yuko itariki ntarengwa yo gusoreraho ari iyi ngiyi ko abantu bakwihutira gusorera ku gihe.

Icyapa kigaragaraho umuntu uri gukingira ndetse kikaba kigaragaza n'iminsi isigaye kugira ngo ikingira rirangire iyi akaba ari imwe muri serivise leta igenere abaturage bayo kugira ngo irusheho kuba yamenya yuko bafite ubuzima bwiza.

Urupapuro ruriho izina ry'ikigo RDB iki kikaba ari ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu muri rusange aho gifasha ba rwiyemezamirimo ndetse nabandi bantu bose nibigo by'imari kugirango babashe gukorera mu Rwanda hanyuma babashe kuba bateza imbere igihugu.

Abantu babiri baricaye. Umwe ahugiye muri mudasobwa, mu gihe undi ahugiye muri telefoni igendanwa. Bisa nk'aho bari kuri murandasi.

Umunaara mwiza wubakiye, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yatugeneye nk'abaturage, aho udufasha kugira ngo tugire itumanaho ryiza, ryaba irya telefone ndetse na mudasobwa.

Icyapa kigaragaraho izina irembo. Uru rukaba ari urubuga rutangirwaho serivisi zose za leta umuntu yakenera, aho umuntu ashobora gukoresha ikoranabuhanga rya telefoni cyangwa se mudasobwa, akabasha gusaba serivisi itandukanye itangirwa muri leta.

Icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo, akaba ari icya MTN, ikigo gishinzwe itumanaho ndetse haragaragara n'umunara muremure, udufasha kugira ngo itumanaho ryacu rya telefone rikore neza, hakagaragara umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kunyuramo amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse unyuramo n'abantu batandukanye, hagaragara n'imitaka y'ikigo cya MTN ndetse haragaragara n'ipoto ry'amashanyarazi bikaba bigaragara yuko hari insinga z'amashanyarazi, ibi byose akaba ari kimwe mu bikorwa remezo Leta igenera abaturage bayo.

Inzu iri mu gipangu cyayo ndetse imbere ku gipangu haragaragara icyapa kiri mu ibara ry'umweru, inyuguti n'imibare bikaba biri mu ibara ry'umukara, ahangaha akaba ari icyapa kigaragaza aho iyo nzu iherereye ndetse n'agace yaba irimo.

Iminara miremire ndetse ikaba igaragara yuko iri kunyuraho insinga z'amashanyarazi ndetse haragaragara n'inyubako zitandukanye, ibi byose bikaba biri mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo igamije iterambere ry'igihugu.

Umunara muremure uriho insinga nyinshi z'amashanyarazi iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yatugeneye nk'abaturage kugira ngo tubashe kuva mu mwijima tubashe kumurikirwa n'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'ibikorwa bitandukanye bidufasha mu iterambere tubashe kubikora kubera ko dufite amashanyarazi.

Ipoto ririho itsinga z'amashanyarazi ndetse haragaragara n'inzu, ibi byose akaba ari ibikorwa remezo leta yashyiriyeho abaturage kugirango iterambere ryihute.

Ipoto rirerire, ndetse rikaba ririho insinga z'amashanyarazi, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo, kugira ngo babashe kuba bakwivana mu bukene, aho amashanyarazi adufasha kugakoresha tuyacana ndetse tunabasha gucomekaho ibintu bitandukanye bikoresha amashanyarazi.

Iminara miremire ndetse ikaba igaragara yuko iri kunuraho insinga z'amashanyarazi ahangaha akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yatugeneye nk'abaturage kugira ngo tube twabasha kubona umuriro w'amashanyarazi tubashe gucana tuve mu mwijima ahubwo tubashe kubona urumuri tubashe kubona umucyo.

Ipoto rirerire ndetse rikaba rishamikiyeho insinga nyinshi z'amashanyarazi ndetse hejuru yaho haragaragara abantu babiri batandukanye bakora muri serivise z'amashanyarazi bikaba bigaragara yuko ibi ari ibikorwaremezo leta igenera abaturage bayo mu bijyanye no kugira ngo babone umuriro wo gucana.

Ipoto rinini ririho insinga z'amashanyarazi ndetse hakaba hagaragara munsi inzu zitandukanye, ibi ngibi bikaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo ibafashe mu kuzamura urwego rwabo rw'iterambere mu buryo bwihuse.

Amapoto y'amashanyarazi ndetse n'insinga zitandukanye z'amashanyarazi ndetse n'inyubako z'amazu atandukanye, bikaba bigaragara yuko ari ibikorwaremezo byose biri hamwe leta yageneye abaturage kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kuzamuka.

Inyubako nziza hakaba hari n'intebe zicayemo abantu, bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari kwa muganga hatangirwa serivise zitandukanye z'ubuvuzi, aho umuntu wese urwaye abasha kujyayo bakabasha kumuvura uburwayi ubwo aribwo bwose yaba arwaye akongera akaba muzima.

Abagabo bambaye amakanzu y'umweru asa, bicaye kuri mudasobwa, mu gihe imbere yabo hari imashini. Biragaragara ko ari nko kwa muganga, hakaba hari serivisi bari gutanga.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse haragaragara n'abantu bambaye imyenda bashinzwe umutekano hakagaragara n'inyubako zitandukanye zitangirwamo serivise za leta ibi byose bikaba ari ibikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo kugirango bagire uruhare mw'iterambare.

Amazu atandukanye ndetse ari ahantu hanini, ndetse hakaba hagaragara n'abantu batandukanye bahahagaze harimo ndetse n'uwambaye itaburiya y'umweru, bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari kwa muganga, ahatangirwa serivisi kugira ngo babashe kugarurirwa ubuzima.

Inyubako nyishi zitandukanye bikaba bigaragara yuko ahangaha ari kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye z'ubuvuzi aho umuntu wumva atamerewe neza mu mubiri abasha kugenda akisuzumisha hanyuma bakamuvura uburwayi bwose yaba afite.

Kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Hari inzira ndende ikikijwe n'inkingi z'ibyuma kandi iyo nzira irasakaye. Hari n'icyapa cy'ubururu kigaragaza aho bavurira amaso.

Inzu ndetse hariho n'ibyapa mu ibara ry'ubururu bigaragaza serivise zitandukanye zitangirwa muri izi nyubako nkaha ngaha akaba ari mu bitaro aho abantu bashobora kujya kwivuza uburwayi bafite.

Inyubako zitandukanye ndetse haragaragara n'abantu benshi batandukanye bahagana, bikaba bigaragara yuko ahangaha ari kwa muganga ahatangirwa serivise zitandukanye, z'ubuvuzi butandukanye aho buri muntu n'indwara arwaye abasha kujyayo bakabasha kumuvura akagarura ubuzima.

Inyubako zitandukanye ndetse imbere yaho hakaba haparitse ibinyabiziga bitandukanye harimo amamodoka atandukanye ndetse inzu imwe ikaba iriho ibendera ry'igihugu bikaba bigaragara yuko ari ahantu hagenewe gutangirwa serivise zose za leta.

Inyubako nini, ndetse hakaba hagaragara icyapa hejuru handitseho Kabgayi Hosipito, bikaba bivuze yuko ahangaha ari mu bitaro bya Kabgayi, ahajya kwivuriza abarwayi batandukanye, hanyuma bakabasha guhabwa serivise zo kwivuza, bakabasha gutaha ari bazima.

Inzu zitandukanye bikaba bigaragara yuko aha ngaha ari nko kwa muganga, ahatangirwa serivise zijyanye no kuvura abarwayi, aho umuntu wumva atameze neza wumva amerewe nabi ajyayo, kugira ngo abashe kuba yagarura ubuzima.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse iruhande rwaho haragaragara ibigo nderabuzima, ibi byose bikaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo bibafashe mu kwiteza imbere, ndetse no mukurushaho kugira ubuzima bwiza.

Imodoka twita imbangukiragutabara, iyi ngiyi ikaba ikoreshwa no kwa muganga, aho itwara inkomere ndetse n'imbabare, hanyuma ikazihutisha ikazijyana kwa muganga, hanyuma abaganga bakabasha gutabara ubuzima bwabo hakiri kare.

Ku kigo nderabuzima, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ku baturage. Hari abantu bahagaze mu madirishya, barimo baravugana n'abaganga barimo imbere.

Inyubako isize irange ry'umuhondo ndetse ikaba ifite parafo y'umweru, hanyuma ikaba ifite ibaraza ririho intebe zitandukanye, bikaba bigaragarako kurizo ntebe ariho abantu bategerereza igihe cyose bacyeneye serivise, hanyuma bakaba kwakirwa.

Inzu nziza iriho umusaraba aha ngaha bakaba bagaragaza yuko ari ibitaro aho abarwayi batandukanye bajya kwivuriza kugira ngo ubuzima bwabo bwongere kuba bwiza.

Urupapuro ruriho amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara, ayangaya akaba ari amategeko ari mu igazeta ya leta, aho adufasha kugira ngo turusheho kumenya abakoze ibyaha hanyama urukiko rukajya gukurikirana rukabasha kubaburanisha.

Urupapuro ruriho amategeko akoreshwa atandukanye akoreshwa muri leta aha nagaha akaba akoreshwa na Minisiteri twita iy'ubutabera igena ibijyanye no gushinja ndetse no gushinjura abantu.

Abantu batatu bicaye hakaba harimo babiri bambaye amakanzu y'imikara ndetse hakaba harimo n'undi urimo hagati wambaye imyenda y'iroza bikaba bigaragara yuko uyu wambaye imyenda y'iroza arimo kuburanishwa hanyuma abambaye amakanzu y'imikara bakaba bamuhagarariye mu mategeko.

Abantu bahagaze batandukanye, bikaba bigaragara yuko bakora mu nzego za leta, aho bigaragara yuko ari abayobozi bashinzwe gushyira ingufu muri serivisi zigenerwa umuturage ndetse n'ibijyanye n'ingamba zishyirwaho kugira ngo iterambere rirusheho kwihuta.

Abantu batandukanye bambaye amakanzu y'imituku ndetse n'umukara, bikaba bigaragara yuko aba ngaba ari abacamanza bashinzwe kuba bagena imanza ndetse bakareba ababurana ndetse n'ababuranishwa kugira ngo byose birusheho kujya ku murongo.

Abantu batandukanye barimo abambaye amakanzu y'umukara ndetse harimo n'abambaye imyenda y'iroza bikaba bigaragara yuko bari mu rubanza hakaba harimo abacamanza ndetse n'ababuranishwa ibi byose bikaba biri mu bikorwa leta ikora igenera abaturage bayo.

Umuntu wambaye ikanzu y'umutuku bikaba bigaragara yuko akora mu rwego rwa leta aho twavuga minisiteri y'ubutabera aho ari minisiteri ishinzwe gukurikirana abakoze ibyaha hanyuma ikabasha kubaburanisha kugira ngo imenye neza imvo ni mvano y'ibyaha bakoze.

Umuntu wambaye ikanzu y'umutuku bikaba bigaragara yuko akora mu rwego rwa leta, twavuga nka minisiteri y'ubutabera, aho ari minisiteri ishinzwe kuba yamenya abakoze ibyaha, hanyuma ikababuranisha bagakurikiranwa kugira ngo barusheho kuba babazwa ibyo babashije gukora.

Abantu batandunkanye bambaye imyenda y'iroza, aba ngaba tukaba tubita abagororwa ndetse imbere hakaba hari ekara, iri kunyuraho ibiganiro bitandukanye, bigaragara yuko barimo barakurikirana amakuru abagenewe

Urupapuro rugaragaraho amategeko atandukanye, yanditswe mu ibara ry'umukara, ayangaya akaba ari mu igazeti ya leta, aho yifashishwa n'ikigo cyangwa se na minisiteri ishinzwe ubutabera, kugira ngo ikurikirane abakoze ibyaha, ibashe kuba yabahana.

Inyubako nini bikaba bigaragara yuko ari gereza ikaba ari inyubako ishinzwe kujyanwamo abantu bakoze ibibi kugira ngo babashe kuba bakwihana babashe kuba bakwikosora, hanyuma bazongere gusubira hanze bagaragaza yuko bahindutse.

Abantu batandukanye harimo abambaye imyenda y'iroza ndetse hakagaragara n'undi wambaye imyenda y'ushizwe umutekano wo muri gereza haragargara kandi n'uwambaye ikanzu y'umukara bigaragara yuko ari umw'avoka bikaba bigaragara yuko baje imbere y'urukiko kuburana.

Abantu batandukanye harimo abambaye ikanzu y'imikara ndetse harimo n'uwambaye ikanzu y'umutuku, bikaba bigaragara ko bakora mu nzego za leta cyane cyane twavuga urwego rw'ubutabera aho bakurikirana abakoze ibyaha ndetse bamwe bakanabahagararira mu mategeko.

Umuntu uhagaze, akaba afashe indangururamajwi, bikaba bigaragara y'uko akora mu rwego rwa leta, aho ari gusobanurira abaje ahongaho, serivise zose zibagenewe nk'abaturage, ndetse n'ingamba zashyizweho kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bicaye hamwe. Imbere yabo hari abayobozi bari kubaganiriza ku mikorere y'inzego zinyuranye, serivisi batanga ndetse n'uko izo serivisi umuturage yazibona.

Icyapa kiriho abantu bicaye bazamuye ibiganza ndetse hakaba hariho n'ijambo inkiko gacaca, uru akaba ar'urwego leta yashyizeho rushinzwe ubutabera aho bagenda bafasha abaturage bagatanga amakuru ku bagiye bakora ibyaha hanyuma bagakurikiranwa.

Abantu bambaye imyenda itandukanye harimo abambaye oranje ndetse n'iroza hakaba hagaragara n'uwambaye imyenda y'ushinzwe umutekano, imbere yaho hakaba hari inzu yanditseho "PRISON" iyi ngiyi akaba ari gereza igenewe gushyirwamo abagororwa.

Inzego z'umutekano arizo polisi, ndetse n'umuntu ufashwe nazo, wambaye amapingu, bikaba bigaragara y'uko agiye kuburanishwa ku rwego rwa leta, kugira abashe kubazwa ibyo yakoze, abashe kuba yabihanirwa.

Abantu batandukanye hakaba hagaragara uwambaye imyenda y'umutekano twita umupolisi, ndetse akaba afashe undi muntu ari kumwambika amapingu, aha ngaha bikaba bibaho igihe umuntu yakoze amakosa bikenewe ko ajyanwa ku rukiko kugira ngo aburanishwe.

Abantu babiri, bambaye imyenda y'iroza, ndetse bikaba bigaragara y'uko bafashe ingombyi iriho umuntu, iyi bakaba bayifashisha mu gihe batwaye umuntu urwaye arembye bamujyanye kwa muganga kugira ngo bamuvure.

Inzu zisize irange ry'umuhondo, ndetse hakaba hagaragara icyapa cyanditse ho polisi, bikaba bigaragara y'uko, ari ibiro bikorerwamo n'urwego rushinzwe umutekano rwa polisi, aho umuntu wese ukeneye serivisi zijyanye n'umutekano abasha kubagana bakabasha kuzimuha.

Ibikoresho bibiri biri mu ibara ry'umutuku twita kizimyamoto, ibi akaba ari ibikoresho byashyiriweho kugira ngo habashe kuzimywa ahantu habereye inkongi z'umuriro, aho ari kimwe mu bikoresho byashyizweho kugira ngo hirindwe impanuka zitateganyijwe.

Igikoresho kitwa kizimyamwoto akaba ari igikoresho cyabugenewe kidufasha mu kuzimya ahantu habereye inkongi z'umuriro ndetse bika bigaragara yuko mu nsi yaho hari igikoresho twifashisha dushyiramo imyanda kugira ngo aho turi hose turusheho kurangwa n'isuku.

Igikoresho twita kizimyamwoto, iki akaba ari igikosho dukunda kwifashisha mubijyanye nokuzimya umuriro, igihe cyose hari ahantu habaye inkongi y'umuriro hihutira gufatwa ikigicyoresho hanyuma kikabasha kuzimya uwo muriro ahantu hakongera hakamera neza.

Abantu batandukanye barimo abana ndetse hakaba harimo n'abapolisi bafashe igikoresho cyabugenewe kizimya inkongi z'umuriro, bikaba bigaragaza yuko barimo kwigisha uburyo habaho kuzimya inkongi y'umuriro.

Umupolisi ufite akamashini mu ntoki ndetse akaba afite n'irangamuntu. Bikaba bigaragara yuko imbere ye hari imodoka, ahangaha bakaba babikora kugira ngo babashe kureba imodoka igihe yakoze amafuti, babashe guhana uwaruyitwaye kugira ngo afatirwe ibihano.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo, bikaba bigaragara y'uko hari kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ama modoka, ndetse hagati y'umuhanda bika bigaragara y'uko hateyemo igiti cyiza cy'umukindo, ibi ngibi akaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo, kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta.

Inyubako ndetse imbere yayo hakaba hari intebe ndetse n'akameza. Hakaba hagaragara n'umuntu wambaye imyenda ya polisi, bikaba bigaragara ko ari ahantu habugenewe, aho polisi itangira serivisi zitandukanye, zirimo guhereza abantu impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse n'impushya z'agateganyo.

ibikoresho bitandukanye twifashisha mu kuzimya umuriro twita kizimyamwoto ibingibi bikaba bikoreshwa iyo habaye iyo habaye inkongi z'umuriro ahantu hatandukanye kugirango babashe kuzimya uwo muriro rero bakaba aribyo bakoresha akaba ari bimwe mubikorwaremezo leta yatugeneye.

Igikoresho cyabugenewe kifashishwa mu kuzimya umuriro twita kizimyamwoto aho ahantu hose habaye inkongi y'umuriro kibasha gukoreshwa kugira ngo umuriro ubashe kuzimywa. Akaba ari kimwe mu bikorwa leta yatugeneye kugira ngo tube twabasha kwikura mu ngorane.

Ibikoresho twita kizimyamoto, dukunda gukoresha cyane twifashisha kuzimya ahantu habereye inkongi z'umuriro, haba mu bitaro, haba mu rugo ndetse n'ahandi hantu hose hahurira n'abantu benshi, aaho ari kimwe mu bikorwa remezo leta yatugeneye kugira ngo tubashe kuba twabasha kwitabara.

Imodoka za polisi ziparitse, ndetse imbere yaho hakaba hagaragara izina ry'ikigo zigama, bigaragara yuko ar'ikigo cy'ishoramari cyo mu rwego rw'umutekano aho inzego z'umutekano zishobora kujya gufata inguzanyo hanyuma zikiteza imbere.

Inkweto zitondetse zigerekeranye mu mirongo itatu zifite amabara agiye atandukanye. Inyinshi murizo ziganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umweru hari n'izifite amabara y'umukara ndetse n'icyatsi kibisi.

Imodoka iparitse imbere y'inyubako ndende y'igorofa ndetse hakaba hagaragaraho n'umupolisi, bikaba bigaragara yuko aha ngaha hakorera urwego rwa leta rushinzwe umutekano wo mu muhanda ndetse n'ibintu, aho rutanga serivise zitandukanye harimo ibyangombwa byemerera abantu gutwara ibinyabiziga byabo.

Ikamyo iparitse mu muhanda ikaba iri gushya, hakaba hari imodoka ishinzwe kuzimya umuriro ndetse n'umupolisi urimo kuzimya ikamyo.

Abantu batatu ndetse babiri bakaba bambaye imyenda y'umukara n'icyatsi n'ingofero z'umweru, undi akaba yambaye imyenda y'ubururu, bikaba bigaragara yuko bari kuzimya ahantu habereye inkongi y'umuriro kugira ngo aho hantu hatabasha gushya ngo hakongoke.

Abantu batandukanye barimo abambaye imyenda bigaragara yuko ari abanyeshuri, ndetse harimo n'abambaye imyenda y'abashinzwe umutekano bigaragara yuko ari abapolisi. imbere yabo haragarara ibikoresho biteretse ku meza birimo kizimyamwoto, ndetse na gaze, hakaba hariho n'isafuriya iri kwaka umuriro. Bigaragare yuko bari kwigishwa uburyo barwanya inkongi y'umuriro.

Igikoresho kiza gishobora kwifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iki kikaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage kugira ngo harwanywe inkongi z'umuriro.

Abantu batandukanye umwe akaba afashe indangururamajwi ndetse inyuma yaho hakaba hariho icyapa kiriho ifoto y'umuntu, bigaragara yuko uyu warufashe indangururamajwi yarahagaze kugira ngo yiyamamaze abe yabasha gutorerwa umwanya runaka.

Abantu batandukanye bicaye bigaragara yuko bari mu nama yiga ibijyanye n'iterambere ry'umuturage ndetse na serivise zose zigenewe abaturage kugira ngo igihugu gitere imbere.

Abantu bicaye ndetse bakaba bagaragaza yuko imbere yabo hari indangururamajwi umwe bikaba bigaragara yuko ari gutanga inama ndetse n'ibitekerezo bikaba bigaragara yuko ahangaha bari kwiga kuri serivise zitandukanye zigenerwa abaturage ndetse n'ibikorwa by'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Icyapa kimanitse hejuru, cyanditseho amagambo "Twitabire amatora", ndetse bikaba bigaragara y'uko hari abantu batandukanye baje gutora. Iyi ngiyi ikaba ari gahunda yashyizweho la leta, iyigeneye abaturage kugira ngo babashe gutora uwo bifuza uzabageza ku iterambere.

Abantu batandukanye cyane cyane biganjemo abamama bikaba bigaragara bazamuye ikiganza kandi bafashe ku ibendera ry'igihugu, uyu akaba ari umuhango ukorwa igihe cyose umuntu yatorewe inshingano bikeneye yuko azirahirira kugira ngo ajye ku mwanya yatorewe.

Abantu benshi batandukanye ndetse bikaba bigaragara yuko hari abatonze umurongo, hakaba hagaragara n'abandi begeranye, bakaba begereye icyumba cy'itora, aha ngaha bakaba bari bari mu matora, aho buri wese yari yaje gutora umukandida umubereye, uzamufasha mu iterambere rye.

Abantu batandukanye bagaragara yuko hejuru bambaye imipira y'imyeru ndetse bakaba bafashe impapuro zitandukanye ndetse no hasi hakaba hagaragara impapuro ziharambitse, bikaba bigaragara yuko ari impapuro zifashishwa mu bijyanye n'amatora, aha ngaha bakaba bari barimo barabarura amajwi y'abagiye batora.

Ikiganza gifashe urupapuro ruriho amafoto y'abantu batatu. Urunguru akaba ari urupapuro rw'itora aho abantu baba bariyamamaje hakewe kugira ngo hatorwemo umwe uhagararira abandi bose hanyuma baka rwifashisha kugira ngo abatora batore.

Abantu benshi bafashe amabendera mu ntoki ndetse hakaba harimo umwe uhagaze afashe ingofero bikaba bigaragaza yuko arimo kwiyamamaza ndetse n'abandi na bo bamushyigikiye.

Abantu batatu bicaye bafashe impapuro z'umweru mu ntoki, bikaba bigaragara yuko bari mu gikorwa cyo kubarura amajwi y'ibyavuye mu matora, iki akaba ari kimwe mu ikorwa leta ibasha gushyiraho ku baturage bayo.

Umuntu wicaye mu ntebe ndetse imbere yiwe hakaba hagaragara indangururamajwi nyinshi bikaba bigaragara yuko ari umuyobozi akaba arimo arasobanura ibijyanye n'iterambere ry'isi muri rusange cyangwa se ry'igihugu runaka aho agaragaza ibyagezweho ndetse nibiteganywa kuzagerwaho.

Abantu batandukanye. Hakaba hagaragara abagore babiri: umwe akaba yambaye ingofero, ndetse undi akaba afashe indangururamajwi azamuye ukuboko. Bikaba bigaragara ko ari mu mwanya wo kwiyamamaza, aho ari kimwe mu bikorwa leta itegura kugira ngo buri muturage abashe gutora umukandida umubereye.

Umugabo uhagaze ndetse imbere y'iwe hakaba hari indangurura majwi akaba akikijwe n'abantu benshi mu impande bigaragara ko arimo aravuga ijambo ribagenewe ndetse muri rusange rigena ibiryanye na serivise bagomba kuba babona kugira ngo biteze imbere.

Umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse akaba yambaye n'umupira w'umweru urimo namagambo yanditseho FPR ndetse akaba azamuye ikiganza, bigaragara yuko yarari mumwanya mwiza wo kwiyamamaza, kugira ngo abe yabasha gutorerwa umwanya runaka.

Umuntu wicaye, wambaye umupira w'umweru, ndetse imbere y'iwe hakaba hateretse mudasobwa, bikaba bigaragara yuko ari umuyobozi wo ku rwego rwa leta, aho ategereje kugira ngo atange serivise zose ku baturage b'igihugu, ndetse anafashe mu guteza imbere iterambere ry'igihugu.

Abantu babiri bahagaze umwe akaba afashe igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu, undi nawe akaba afashe urupapuro rwabugenewe rw'itora. Bikaba bigaragara yuko yarari mu cyumba k'itora aho yaramaze gutora, iyi akaba ari gahunda leta yashyizeho kugira ngo umuturage abashe kuba yakwitorera umuntu uzamufasha mu iterambere ry'igihugu.

Abantu batandukanye batonze umurongo bikaba bigaragara yuko baje mu gikorwa k'itora aho buri wese aba aje gutora umukandida uzamufasha kugira ngo aduteze imbere ndetse iki akaba ari kimwe mu bikorwa leta itegura, itegura abaturage bayo kugira ngo barusheho kujyana nayo mu iterambere.

Abantu batatu bahagaze, ndetse umwe uri hagati akaba afite igipapuro, akaba afite n'indangururamajwi, bikaba bigararaga yuko yari ari mu mwanya wo kwiyamamaza, kugira ngo abe yatorerwa mu mwanya wo mu rwego rwa leta, maze abashe kuba yayobora.

Abantu benshi batandukanye, ndetse bikaba bigaragara y'uko hari icyapa kiriho ifoto y'umuntu, bikaba bigaragara y'uko bari mu mwanya wo kwiyamamaza, aho ari kimwe mu bikorwa leta ibasha gukora, kugira ngo abaturage babashe kwihitiramo umuyobozi ubabereye, ubafasha mu iterambere.

urupapuro ruriho amagambo atandukanye cyanecyane ashingiye mu nzego za leta aho bari kwerekana yuko ari gahunda leta igenderaho kugirango igeze ku baturage hanyuma bifashe abaturage gutera imbere mubijyanye n'iterambere ndetse n'ubukungu.

Abantu batandukanye hakaba harimo abicaye ndetse hakaba harimo n'umwe uhagaze, bafite indangururamajwi, ndetse imbere yiwe hakaba hari icyapa kiriho amafoto y'abantu, bikaba bigaragara yuko uhagaze arimo kwiyamamaza kugira ngo bazamutore ayobore urwego rwa leta.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka zikorera imizigo, harimo izitwara abagenzi, harimo amapikipiki, harimo amagare ndetse n'abantu ubwabo bakaba bawifashisha kugira ngo babashe kuba bakora serivise zitandukanye.

Umuhanda unyuramo ibinyabiziga bitandukanye amamodoka, amapikipiki, amagare ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yashyiriyeho abaturage bayo kugira ngo ibafashe mu kwiteza imbere kandi bagire iterambere ryihuse.

Imodoka twita dayihatso ndetse ikaba irimo kugendera mu muhanda, iruhande hari abantu bahagaze. Imbere hari icyapa cy'ibara ry'ubururu n'umweru. Ibi byose bikaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yatugenenya nk'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo ikinyabiziga cy'ipikipiki, yifashishwa mu gutwara ibicuruzwa ahantu hatandukanye, ibi akaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo, kugira ngo iterambere ry'umuvuduko rirusheho kugaragara mu buryo bwihuse.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka nini, ishinzwe kwikorera ibicuruzwa bitandukanye ndetse n'imizigo iremereye. Uyu muhanda akaba ari kimwe mu bikorwaremezo Leta yatugeneye twe nk'abaturage kugira ngo twihutishe iterambere ryacu.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ndetse ukaba waragenewe kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka zitwara abagenzi, harimo imodoka zitwara imizigo, harimo amapikipiki, iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo biteze imbere.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka ndetse n'amapikipiki ndetse hakaba hagaragara n'ibiti byiza by'umukindo, hakaba hagaragara ku ruhande inyubako nziza ishobora gukorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse hashobora gutangirwamo na serivisi zitandukanye za Leta.

Umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, yaba imodoka, yaba ipikipiki ndetse n'abantu batandukanye. Ibi akaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yaduhaye nk'abaturage.

Umuntu wicaye imbere y'ipikipiki izwiho gutwara imizigo ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye. Iyi ngiyi ikaba mu by'ukuri ikoreshwa kugira ngo igeze ibicuruzwa ku bantu bari mu ngo zabo, igihe cyose baba babihashye bakoresheje telefoni bashaka yuko babibagezaho batavuye aho bari.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka amapikipiki ndetse, bikaba bigaragara ko iruhande rwaho hari ibiti ibi byose bikaba Ari ibikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo ibafashe mubijyanye n'iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, birimo; amapikipiki, amagare, amamodoka, ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu muri rusange, ibi bikaba bigaragazwa yuko ari igikorwa remezo leta yashyiriyeho abaturage kugira ngo ibafashe mu kwiteza imbere mu buryo bwihuse.

Umuhanda munini wa kaburimbo ndetse hakaba hagaragaramo ipikipiki yabugenewe itwara imizigo cyangwa se ibicuruzwa bitandukanye ibijyana ahantu hatandukanye, ibyo byose akaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo iterambere rirusheho kwihuta.

Imodoka ziparitse mu muhanda ndetse biragaragara yuko ari imodoka zabugenewe, zibasha kwikorera imizigo ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye, ibi byose bikaba biri mu bikorwaremezo Leta yageneye abaturage kugira ngo birusheho kwihutisha iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ry'umuturage muri rusange.

Umuhanda wa kaburimbo ugenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka, amapikipiki ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, hakaba hariho ndetse n'ibyapa biranga uwo muhanda hariho nk'icyapa kigaragaza yuko aho hantu hatemerewe guparikwa, ibi byose bikaba ari ibikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse hakaba hagaragaramo n'imodoka ishinzwe kwikorera ibicuruzwa biremereye, aha ngaha rero akaba ari kimwe mu bikorwaremezo Leta yatugeneye nk'abaturage kugira ngo twihutishe iterambere ryacu.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse unyuramo ibinyabiziga bitandukanye haba imodoka z'ubwikorezi ndetse n'imidoka za bantu ndetse hakananyuramo n'abantu batandukanye hakanyuramo n'ibinyabiziga bindi bitandukanye birimo ama pikipiki ibi byose akaba ari ibikorwaremezo leta yatugeneye.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hari kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo amamodoka, amapikipiki iruhande rwaho hakaba hari amazu atandukanye akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ibi byose bikaba biri mu bikorwa ndetse leta yatugeneye nk'abaturage.

Umuhanda wa kaburimo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandunkaye birimo imodoka, amagare, amapikipiki ndetse n'abantu iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo irusheho kubafasha mu kwihutisha umuvuduko w'iterambere ryabo.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse haragaragara n'icyapa kiriho izina miitzig iki akaba ari icyapa kigaragaza yuko hafi aho ngaho hari akabari aho abantu bashobora gusohokera bagafata icyo kunywa ndetse n'icyo kurya .

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo amamodoka, harimo amapikipiki ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu, ibi ngibi akaba ari bimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo ibafashe mu kwiteza imbere.

Mu isangano ry'imihanda, hari ipikipiki iriho umumotari, mu gihe hirya hari abanyamaguru bari kugenda. Hakurya y'umuhanda wo hirya, hari ibiti biriho insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunuramo ibinyabiziga bitandukanye haba imodoka zitwara abagenzi, haba imodoka zikorera imizigo ndetse n'amapikipiki ibi bikaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yashyiriyeho abaturage bayo kugira ngo iterambere ry'igihugu muri rusange n'iry'umuturage rirusheho kuzamuka mu buryo bwihuse.

Imodoka zitandukanye zahariwe gutwara abantu ziparitse aho twita muri gare, ibi byose akaba ari ibikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo igamije kugira ngo iterambere ry'igihugu n'iry'umuturage muri rusange rirusheho kuzamuka.

Umuhanda wa kaburimbo twifashisha kugira ngo hanyuremo ibinyabiziga bitandukanye haba imodoka zikorera imizigo, haba imodoka zitwara abagenzi ndetse natwe ubwacu abanyamaguru iki rero akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu muri rusange, hakaba hagaragaramo ipikipiki yabugenewe ishinzwe gutwara ibicuruzwa no gutwara imizigo ibijyana ku bantu babikeneye.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amapikipiki, imodoka, hakaba hagaragaramo imodoka y'umweru igenewe gutwara ibicuruzwa bitandukanye ibi akaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage kugira ngo bibafashe kwiteza imbere.

Umuhanda munini wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, yaba imodoka z'abantu ku giti cyabo, yaba imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, yaba n'imodoka ziheka imizigo, aha ngaha ndetse n'abantu bakaba bawifashisha kugira ngo babashe gukora ibikorwa byabo bya buri munsi.

Imodoka nziza ioparitse iri mu ibara ry'umweru twita tagisi, iyi ngiyi ikaba ikoreshwa mu gutwara abantu kugira ngo badakererwa muri gahunda agiyemo, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage ku ngo bibafashe kugira ngo bihutishe gahunda zabo, babashe gutera imbere.

Imodoka ya kwasiteri iparitse, ndetse n'abantu batandukanye bari kugenda, ahangaha bikaba bigaragara yuko ari aho abagenzi bategera amamodoka, aho twita muri gare, iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo.

Ipikipiki iparitse mu muhanda iri mu ibara ry'ubururu yanditseho amagambo medi ini Rwanda, iyi ikaba ikoreshwa mu gupakira imizigo cyangwa se ibicuruzwa ibijyana ahantu hatandukanye kugira ngo ababikeneye babashe kubikoresha.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hagaragaramo yuko harimo imodoka ziparitsemo, imwe ikaba ari iy'umweru ya toyota ndetse indi iri imbere akaba ari iya dayihatsu iri mu ibara ry'ubururu, aha ngaha rero akaba ari bimwe mu bikorwaremezo Leta igenda igenera abaturage bayo.

Umuhanda munini mwiza wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye hakaba hagaragaramo imodoka ndende igenewe gutwara abagenzi. Ibi byose akaba ari bimwe mu bikorwwa remezo, leta yageneye abaturage bayo kugira ngo iterambere ryihute muri rusange.

Umuhanda wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye haba imodoka, haba amapikipiki ndetse n'amagare aho ari kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo barusheho gutera imbere kandi byihuse.

Akazu karimo abantu benshi batandukanye bicaye, ndetse n'iruhande hari abahagaze, haragaragara n'inyubako ndetse, ahangaha akaba ari kimwe mu bikorwa remezo leta yashyizeho kugira ngo bifashe abantu mu iterambere ry'igihugu.

Ikibuga cyiza ndetse n'inyubako n'amapoto y'amashanyarazi n'amatara bikaba bigaragara yuko ahangaha ari kuri sitade aho abantu bajya mu bikorwa bitandukanye by'aba iby'imyidagaduro ndetse n'imikino hanyuma akareba.

Ikibuga kinini, ndetse kirimo ubwatsi bwiza, bikaba bigaragara y'uko gishobora kuba ari nk'ikibuga gishobora gukinirwaho umupira w'amaguru, ibi byose akaba ari bimwe mu bikorwaremezo, leta yageneye abaturage bayo, bakeneye kugira ngo bidagadure cyangwa se bishime.

Icyapa kiri mwibara ry'umutuku ndetse n'umukara, iki kikaba gikunda kwifashishwa kugira ngo bagaragaze yuko aho hantu hatemewe guparikwa n'ibinyabiziga, aho baba bashaka kwirinda umuvurungano w'ibinyabiziga bitandukanye yaba amamodoka na amapikipiki.

Icyapa kiri mwibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ndetse haragaragara na ipoto ririho insingaa za amashanyarazi, hakagaragara kandi na akazu kanditseho irembo, ikingiki akaba ari ikigo gitanga serivisi za leta, ibi byose akaba ari ibikorwa remezo leta yageneye abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse haragaragara umuntu uhagaze imbere y'ibyapa bitandukanye, ibi byapa bikaba bidufasha mukumenya icyerekezo cyaho tujya ndetse hakaba hagaragara n'umunara, hakagaragara n'amapoto y'amashanyarazi ibi byose bikaba Ari ibikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo.

Umuhanda munini wa kaburimbo ndetse haragaragara n'icyapa cyanditseho izina ry'aho hantu, ibi byose bikaba bigaragaza yuko ari ibikorwaremezo leta yatugeneye nk'abaturage kugira ngo turusheho kwihutisha iterambere ry'igihugu ndetse n'iterambere ryacu muri rusange.

Icyapa kiri mw'ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara ndetse hakaba harimo n'ikimenyetso, aho cyerekana icyerekezo cy'umuhanda ahantu runaka ibingibi akaba ari bimwe mubikorwa remezo bidufasha kugira ngo tube twamenya aho tujya cyangwa se tube twamenya aho dushaka kugana.

Umuhanda wa kaburimbo unyurwamo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse hakaba hari n'icyapa gishinze, aho kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, harimo n'umukara. Ibimenyetso bikaba bigaragaza uko icyerekezo cy'umuhanda giteye kugira ngo ibinyabiziga bitayoba.

Icyapa cy'umweru gishinze ku muhanda ndetse haragaragaramo imibare ndetse n'inyuguti byanditswe mu ibara ry'umukara, iki akaba ari icyapa kigaragaza imiturre aho ako gace gaherereye, ndetse kikaba gifasha mu kuyobora abantu no kumenya agace barimo.

Imodoka zitandukanye ziparitse ahantu hanini ndetse bikaba bigaragara yuko hari n'abantu bari kujyayo ahangaha akaba ari aho leta ikorera igeneye kugira ngo itange serivise zose ku baturage aho buri muturage wese ufite serivise akeneye mu rwego rwa leta ashobora kujyayo bakayimuha.

Inzu ndende ndetse hakaba hariho icyapa cyanditseho hiritopu hoteli, iyi ngiyi ikaba ari hoteli aho umuntu ashobora kuba afite amafaranga yiwe akeneye kugira ngo aruhuke ndetse anakeneye kugira ngo abe yabasha kuba yanywa cyangwa se arye ari ahantu hatuje akaba yabasha kuhasohokera.

Ibiti byiza bikaba bigaragara yuko ari ahantu umuntu ashobora gusohokera akabasha gufata umuyaga mwiza ibingibi akaba ari ibidukikije aho leta yashyizemo ingufu nyinshi cyane kugira ngo irusheho kurengera ubuzima bw'ibidukikije.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amapikipiki ndetse n'amamodoka hakaba hagaragara abantu batandukanye barimo kuwunyuramo ibi akaba ari bimwe mu ibikorwa remezo leta yageneye abaturage bayo.

Sitasiyo ya resanse ndetse hakagaragara n'inyubako ndede y'igorofa ibi akaba ari bibikorwaremezo leta yageneye abaturage kugirango iterambere ry'igihugu n'umuturage ryihute.

Icyapa kigaragaza aho akagari ka Mbogo gaherereye, uru akaba ari urwego rwa Leta rwegerejwe abaturage, rubafasha kugira ngo bazahuke mu bukungu ndetse runabafashe kugira ngo bashyireho ingamba zibafasha kwiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hagaragara n'inyubako zitandukanye hakaba hagaragara n'ibiti bitandukanye ndetse haragaragara n'icyapa cyanditseho Kimirinko kwa mushimire, aho kimenyesha aho hantu ako gace ako ariko kugira ngo uhageze atabasha kuyoba.

Inzu nini ndetse bikaba bigaragara yuko hariho icyapa kiriho ijambo UNESCO. Iki akaba ari ikigo gishinzwe iterambere ndetse aha ngaha bikaba bigaragara yuko ari urwego rwa leta ruhakorera kugira ngo rurusheho kwimakaza ibikorwa by'iterambere ry'abaturage.

Inzu zagenewe ubucuruzi. Ku miryango y'izo nzu hicaye abacuruzi, mu gihe bategereje abaguzi.

Amazu agaragara atandukanye, ndetse iruhande rwayo ari ku muhanda wa kaburimbo, ndetse haragaragara n'ipoto ririho insinga z'amashanyarazi, ibi akaba ari ibikorwaremezo byose bya Leta.

Inzu nziza yubatse neza ndetse bikaba bigaragara yuko ikikijwe n'ibiti, ndetse hakaba hagaragara y'uko hari n'intebe imbere ziri aho ngaho zabugenewe zo kwakiriramo abantu, ahangaha akaba ari ahantu abantu bashobora kugana igihe cyose bakeneye serivise.

Inzu nini y'igorofa ndetse munsi hakaba hari abantu batandukanye ikaba haparitse n'amamodoka, ndetse bikaba bigaragara yuko hakoreramo ibigo byinshi bya leta, bishinzwe gutanga serivise zitandukanye ku baturage b'igihugu, ndetse bijyanye no gufasha mu ngamba z'iterambere.

Akazu gatoya karimo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse haragaragara n'umuntu ku ruhande wicaye, bikaba bigararaga yuko ari umuntu ucuruza ibicuruzwa bitandukanye, ndetse ibingibi bikaba biri mu byo leta yashyizemo ingufu kugira ngo iharanire iterambere ry'umuturage.

Inzu ndende kandi y'igorofa bikaba bigaragara yuko ari ahanti ibigo bitandukanye bya leta, bishobora gukorera kugira ngo bitange serivise zose zigenewe ku baturage ndetse bibashe no kuba byabasha kugira inama abaturage mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu.

Umuhanda wa kaburimbo twifashisha tugendaho n'amaguru cyangwa se tugendaho n'ibinyabiziga, hakaba hariho n'amapoto y'amashanyarazi ibi akaba ari bimwe mu bikorwaremezo leta yatugeneye kugira ngo yihutishe iterambere.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wajyenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoko, amapikipiki ndetse hakagaragaramo n'ibiti by'imikindo nibindi biti kuruhande ibibyose bikaba ari ibikorwa remezo leta yajyeneye abaturage bayo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka zikorera imizigo, imodoka zitwara abagenzi, harimo amapikipiki ndetse hakaba hagaragara n'amapoto y'amashanyarazi n'insinga z'amashanyarazi ibi byose bikaba ari ibikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo kugendamo ibinyabiziga bitandukanye birimo amapikipiki ndetse ahangaha akaba ari igikorwaremezo leta yatugeneye nk'abaturage gifasha umuvuduko w'iterambere.

Umuhanda wa kaburimbo mwiza ndetse hakaba hagaragara n'ikiraro, hakaba hagaragara n'itara kandi ryo ku muhanda. Ibi byose akaba ari ibikorwa remezo leta yaganeya abaturage bayo kugira ngo ibafashe muri gahunda yo kwiteza imbere ndetse babashe no kugira umuvuduko mu kwiteza imbere.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka, birimo amapikipiki ndetse hakaba hanyuramo n'abantu muri rusange iki akaba ari kimwe mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo kugira ngo ibafashe mu gutera imbere mu buryo bwihuse.

Umuhanda munini wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, harimo imodoka z'abantu ku giti cyabo, harimo imodoka zitwara imizigo ndetse n'amapikipiki. Iki akaba ari kimwe mu bikorwa remezo Leta yatugeneye nk'abaturage.

Umuhanda wa kaburimbo munini unyuramo ibinyabiziga bitandukanye, haba amamodoka, haba amapikipiki ndetse n'urujya n'uruza rw'abantu ndetse bikababigaragara yuko hari n'ikiraro cy'umuhanda. Ibi byose bikaba biri mu bikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye birimo amamodoka, birimo amapikipiki ndetse n'abantu ubwabo, iki akaba ari kimwe mu gikorwa remezo leta yageneye abaturage kugira ngo iterambere ry'igihugu rirusheho kwihuta.

Umuhanda munini wa kaburimo ndetse urimo n'ibimenyetso, hakaba harimo n'ibyaka bitandukanye ndetse haragaragara n'amashanyarazi, ahangaha bakaba bagaragaza yuko ari ibikorwa bitandukanye leta yageneye abaturage kugira ngo iharanire iterambere ry'umuturage niry'igihugu muri rusange.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutu ndetse n'umweru, inyuguti pa ikaba yanditswe mu ibara ry'umukara, ikaba harimo akarongo gaciyemo bigaragaza yuko aho hantu nta cyapa gihari nta kinyabiziga kemerewe kuhaparika.

Umuhanda munini wa kaburimbo ndetse ufite n'ibimenyetso byawo, hakaba hari kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye haba imodoka, haba amapikipiki ndetse hakaba hari kwambuka n'abanyamaguru. Ibi byose akaba ari ibikorwa leta yatugenya nk'abaturahe.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wagenewe kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki, amamodoka ndetse hakabaho n'ikiraro cyiza, hakaba hagaragara n'itara ryiza ryo ku muhanda, ibi byose akaba ari ibikorwa remezo leta yageneye abaturage igamije kugira ngo iterambere ry'umuturage rirusheho kwihuta.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye bimo amapikipiki ndetse n'amamotoka, ndetse iruhande rwawo hari n'amazu, ibi byose bikaba biri mu bikorwa remezo leta igenera abaturage.

Umuhanda mu nini wa kaburimbo uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye yaba imodoka z'abantu ku giti cyabo, yaba se imodoka zikoreshwa mu kwikorera imizigo ndetse yaba n'amapikipiki ibingibi byose bikaba ari ibikorwaremezo leta yageneye abaturage bayo.

Umuhanda munini wa kaburimbo ndetse ukaba uri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka nini izikoreye imizigo ndetse n'imodoka zisanzwe zigenderamo n'abagenzi kuruhande hakaba hari ibiti, ibi byose bikaba ari ibikorwa remezo Leta yatugene nk'abaturage.

Umuhanda munini wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga itandukanye birimo imodoka, amapikipiki ndetse iruhande rwaho hakaba hagaragara ibiti biwukikije ibi byose akaba ari ibikorwaremezo leta yashyizemo ingufu kugira ngo irusheho guharanira iterambere ry'umuturage.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibimenyetso ndetse hakaba hagaragaramo ibinyabiziga bitandukanye birimo imodoka, amapikipiki ndetse hakaba harimo kugendamo n'abantu batandukanye ndetse hakaba hagaragara n'icyapa kigaragaza yuko hafi ahongaho hari ishuri.